inama yahuje ingeri nyinshi zitandukanye, aho yitabiriwe n'abantu benshi cyane ,harimo abakecuru, abasaza, abagabo, abagore. Aho mbere yabo hari umudamu uri kubabwira, uri kubaganiriza ku ngingo zimwe na zimwe.

Urubyiruko rwicaye muri sale aho bari kuganira ku nyigo zimwe na zimwe, aho abategarugori batatu ndetse n'umusore umwe, abategarugori babiri bari kuganira ku ngingo imwe n'imwe ndetse n'undi mukobwa umwe akaba ari kuganira n'umusore ku ngingo imwe.

Inama yahuje abategarugori benshi ndetse harimo n'abagabo n'abasore bari kwiga ku ngingo zimwe na zimwe zitandukanye, aho yabereye ni muri sale nini, aho bicaye bari ku murongo umwe bose bitegeye imbere yabo, uri kubaganiriza ku ngingo zabahurije aho.

Abantu bicaye hamwe mu nzu bari mu nama imbere hateretse amazi ibitabo ku meza.

Inama yahuje ingeri nyinshi zitandukanye hari abicaye muri tente y'umweru hari n'abandi bicaye hasi bari kumva amabwiriza, ari gutangwa n'uyoboye inama.

Bahuje ingeri zitandukanye urubyiruko ,abagabo ndetse n'abagore aho imbere yabo aho bicaye hari umusore ufite mikorofone wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara uri kubasobanurira ku kubijyanye n'ingingo nyinshi zitandukanye bari kuganiraho aho bicaye ku ntebe zabo z'umweru bicayeho.

Inama ihuza abantu batandukanye, bicaye ku meza ikoze ikizeru. Harimo abanyamahanga, abirabura, abagore ndetse n'abagabo.

Abantu bageze muri barindwi, batatu muri bo bicaye ku ntebe, abandi bane bahagaze inyuma yabo, imbere hariho abagabo babiri n'umugore umwe.

Umugabo arimo ahabwa mikoro yambaye umwenda w'umukara urimo n'ibara ry'umutuku ryijimye umudamu wambaye umupira w'ubururu n'umweru.

Umugabo uhagaze mu imbaga y'abantu benshi, aho ahagaze imbere y'abayobozi bamwe bicaye muri tente ndetse inyuma ye hakaba hari abaturage benshi, harimo n'abana bitabiriye baje kumva ubutumwa yageneye abitabiriye bose.

Inama yahuje abagabo n'abagore hagaragara umugabo wambaye ikote ry'ubururu yubitse umutwe ku meza, imbere ye hateretse ako kunywa ndetse iruhande rwe hari umugabo urimo...

Umurongo wicayeho abantu, bageze muri batandatu, abagabo batatu, abagore batatu, buri wese arimo areba mugenzi we.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu yifashishwa mu gutwara imizigo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'igisanduku cy'ibyuma iparitse iruhande rw'umuhanda, aho itegereje gushyirwamo imizigo. Izi modoka zikaba zifashishwa mu kworoshya serivisi z'ubwikorezi hirya no hino mu gihugu. Aho zifashishwa mu kugeza ibintu mu bice bitandukanye by'igihugu.

Umugabo wambaye rinete z'umukara, ikoti ry'igitaka, uhagaze imbere kuri aritari aho afite mikoro mu ntoki ari gusobanurira abantu ibijyanye n'ingingo nyinshi zitandukanye bari kuganiraho.

Abagabo n'abagore bicaye hamwe, bari mu nama buri umwe imbere ye hateretseho imashini ndetse n'uburyo bwo kuvugiramo bakoresheje.

Abamama batatu bahagaze begeranye n'umukobwa wambaye umupira w'umweru, umumuma wo ku ruhande rw'ibumoso yambaye ibitenge, yitandiye giti.

Inama yahurijwemo ingeri nyinshi, aho imbere yabo hari umudamu wambaye amarinete ndetse ufite mikoro mu ntoki, uri kubaganiriza ku ngingo zabahurije hamwe, aho imbere ye hicaye abagabo babiri barikumva bimwe mu byo uwo mudamu ari kubabwira.

Inama irimo ingeri nyinshi higanjemo abadamu, aho bicaye mu nama, aho bicaye mu matsinda, aho imbere yabo hari uri kubagezaho ingingo zimwe na zimwe bari kuganiraho.

Inzu nini yuzuye abantu benshi abasaza bambaye ikoti, abamama bitangiyediye, abakobwa basutse imisatsi ndetse n'abatasutse imisatsi bicaye ku ntebe zegamirwa.

Itente yuzuye abantu benshi batandukanye, ku ruhande ruhera hagaragara umunyamahanga ufite imisatsi y'umweru; wicaye asobetse amaboko n'umugore wicaye asohobetse amaboko.

Akanama gateranye hagaragaramo abatetsi babiri bicaye ku ruhande rw'iburyo n'abandi bakobwa batatu ku ruhande rw'ibumoso n'ubayoboye umwe imbere.

Umugabo wambaye ishati y'umweru arimo avuga asa n'uwunamye gato, abwira imbaga y'abantu bambaye imipira isa ibara rimwe ry'ubururu, uretse umwe usa n'uwitandiye.

Abantu bicaye hamwe mu nzu, imbere yabo hateretse amazi, ibitabo, bareba imbere, bicaye ku mirongo itatu itandukanye.

Umudamu ukiri mutoya witabiriye inama, aho bari kuganira ku ngingo nyinshi zitandukanye, aho inyuma ye na ho hari bagenzi be bicaye kimwe nkuko na we yicaye, bari kuganira ndetse bari no guteze n'amatwi bari kumva kuri izo ngingo zimwe na zimwe, bari kuganiraho.

Umugabo urimo yandika ku gapapuro kari ku meza, imbere hateretse agacupa karimo amazi, bicaye mu nzu irimo abandi bantu bareba imbere ye.

Abantu benshi bari mu busitani bahabwa ihene hirya hagaragara abashinzwe umutekano wambaye imyenda y'icyatsi, inyuma yabo kure haragaragara umurima w'ibitoki byinshi.

Abantu benshi bicaye bareba imbere, umugore wambaye ipantaro y'umukara n'imisatsi isutse, hirya hahera hegamye umugabo ku gikuta.

Inama yahuje ingeri zitandukanye harimo abadamu abagabo abasore, imbere yabo bayobowe n'umuyobozi ufite mikoro mu maboko ye uri kubasobanurira ibijyanye n'iyo nama.

Inama irimo ingeri nyinshi zitandukanye, abadamu, abagabo ndetse n'abasore, aho bari mwitegereje imbere y'umuntu uri kubaganiriza ku ngingo zimwe na zimwe, aho bicaye bose barangariye imbere ku muntu uri kubaganiriza ku ngingo runaka yabahurije hariya.

Inzu igaragaramo umwarimu arimo yigisha abanyeshuri, bicaye babiri babiri ku meza zimbaho, bicara umukobwa n'umuhungu.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu yifashishwa mu gutwara imizigo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'igisanduku cy'ibyuma iparitse iruhande rw'umuhanda, aho itegereje gushyirwamo imizigo. Izi modoka zikaba zifashishwa mu kworoshya serivisi z'ubwikorezi hirya no hino mu gihugu. Aho zifashishwa mu kugeza ibintu mu bice bitandukanye by'igihugu.

Tariki ntarengwa: mirongo itatu n'imwe z'ukwa Cumi nabiri, bibiri na makumyabiri na kane, uyu munsi niwo wa nyuma wo kwishyura umusoro...

Abanyeshuri bicaye aho bigira ibijyanye na murandasi, umukobwa wambaye agafukamunwa k'umukara yerekwa ibyo gukora n'umusore.

Moto ebyiri zitwaye abagenzi, ziri kugenda mu muhanda nyabagendwa, umuhanda wa kaburimbo, iburyo bwazo hari umunara muremure w'itumanaho, ndetse n'icyapa cya emutiyeni.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, hariho icyapa kinini cy'ubururu, umweru, hariho ijambo irembo rigaragaza ibyo bakora.

Imodoka nyinshi ziri kugendera mu muhanda harimo imodoka iri mu bwoko bwa RAVA 4,ivatiri biteganye n'inyubako y'ubucuruzi icururizwamo ibintu byinshi bitandukanye.

Umuntu uhetse akabaga gatoya k'umukara, wambaye umupira w’umweru unyuramo andi mabara, asa n’uri kwinjira mu nzu itangirwamo ubufasha.

Umunara muremure w'itumanaho, ugizwe n'amabara umweru n'umuhondo wijimye, hagati yawo hacamo amatiyo maremare, azamuka ajya ku munara ahubatse sinya.

Urakaza neza ntago wari winjira aho ushaka kugera, aho bashakira akazi, ijambo banga, icyerekezo bigaragazwa ku rukuta winjiriramo.

Abantu bicaye kuri murandasi, hari intebe z'imbaho, umuhungu ku ruhande rw'iburyo wambaye ingofero y'umweru, umupira w'umukara n'inkweto z'umukara.

Umunara muremure, urimo amabara atandukanye, agiye asize ku byuma bizamuka kuri uwo munara, umutuku, umweru, hirya yaho hakaba hariho ibimeze.

Kurikira ikiganiro cy'Ikigo cy'imisoro n'amahoro itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura avansi ya 3 y'umusoro ku nyungu ni 31 (..)

Icyumba cyuzuyemo ibitabo byinshi, hateretse za mudasobwa aho umukobwa arimo arebana n'umugabo wambaye ikoti ry'umukara, hirya hari undi mukobwa wicaye...

Umunara muremure ufite amarangi yicyatsi numukara ushamikiyeho utundi twuyuma kuruhande tuwufasha muburyo bwo gukurura itumanaho.

Aho bagurishiriza matera, bagurishiriza imyenda hubatse ndetse bafite ibicuruzwa byinshi ku buryo kubona inzira utambuka ujya guhahiramo bigoye.

Amapoto maremare ari ku ruhererekane, ashamikiweho insinga nyinshi, aho yifashishwa mu gutanga amashanyarazi mu duce dutandukanye,...

Inyubako ebyiri ziri mu bwoko bwa kadasiteri ziteganye, aho imbere yazo hari ipoto rirerire rishinzwe kunyuzwaho amashanyarazi, hakaba hashamikiweho insinga nyinshi ndetse hirya y'iyo poto hakaba hari ibiti birebire.

Ipoto yubatswe mu buryo buhagaze, yagenewe gutanga amashanyarazi ahantu henshi hatandukanye, ikaba ishamikiweho insinga nyinshi zishinzwe gutwara amashanyarazi.

Umunyamaguru uhagaze ku muhanda wagenewe abanyamaguru utambutsweho n'ikinyabiziga kiriri mu bwoko bwa moto kiri mu muhanda nyabagendwa, hakurya ye iburyo bwe hakaba hari poto itanga amashanyarazi mu ngo z'abaturage.

Amapoto yohereza umuriro ari kumurongo umwe iruhande rwahagaze umugabo wambaye imyenda yubururu hejuru hacamo insinga zijya mubyerekezo bitandukanye.

Umunara muremure ucamo itsinga zitandukanye z'amashanyarazi, ukoze mu byuma wegereye ibiti kuruhande rw'ibumoso n'uruhande rw'inyuma.

Icyapa cya Gatuna. Ku mupaka. Kigaragazwa n'amabara asa icyatsi n'umweru, imbere yacyo hari umunara muremure ucamo insinga z'amashanyarazi

Abakozi bari gukora ku bijyanye no gutanga umuriro w'amashanyarazi, umwe yuriye urwego ari kuzamuka, undi ari hejuru ari gusaba uwo hasi ngo agire icyo amuha, bose bambaye ingofero zisa umuhondo.

Inzu y'amatafari matoya n'ibyuma bigize bifite amabara y'icyatsi yegeranye n'inzu iteye ibara ry'umweru iringaniye n'umunara muremure w'ibyuma ucamo insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo iruhande hahagaze abagabo babiri barimo barebana, inyuma yabo hari umugore wambaye umupira w'umuhondo ndetse asa.

Agakoresho gakoreshwa mu gukupa cyangwa gukupura umuriro gateretse ku rukuta rudateye irangi hepfo yako hacaho insinga z'umutuku ruguru hariho ihombo ry'umukara.

Ipoto rirerire ryagenewe kunyuzwaho amashanyarazi, aho imbere y'iryo poto hari icyapa kigaragaza aho banyura bazengurutse, akaba ari icyapa kimenyesha abagendera mu muhanda, abayobozi batwaye ibinyabiziga, ko aho bageze banyura bazengurutse.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu Rwanda, ishami rya Remera, ahaparitse imodoka isa umutuku impande y'icyapa.

Umunara muremure cyane. Ukoze mu byuma, ugera hejuru ukihinamo, bitewe n'uburyo ari muremure, unyuramo insinga z'amashanyarazi hagati ya wo.

Ipoto ryo ku muhanda, rifite itara hejuru rikoreshwa mu masaha y'ijoro, kugira ngo rimurikire abagenda mu masaha akuze, yegeranye n'igiti kinini ndetse insinga ...

Umukobwa wambaye umupira w'umweru n'agapfukamunwa k'umukara, yunamye ajya gufasha umugabo wambaye umupira w'umweru, ikote ry'icyatsi.

Imodoka y'umweru n'umukara mukeya iparitse ahegereye abagabo batatu barimo barebana, imbere y'inzu nini cyane iteye irangi, ifunze imiryango.

Abagabo babiri barimo barebana, imbere y'inzu hasa nk'aho imvura yaguye, hirya hari icyapa giteye irange ry'ubururu n'umweru.

Inzu yubakishije amatafari matoya cyane, ifite amabara y'umuhondo hejuru, iruhande rwayo hari inkingi z'icyuma.

Inyubako nini y'ibitaro, aho imbere y'iyo nyubako haparitswe imodoka nyinshi cyane ndetse imbere y'iyo nyubako hakaba hari jaride ndetse n'ibiti byinshi biteganye n'iyo nyubako.

Abantu bicaye ku murongo, hagenda umwe umwe mu buryo bwo kugira ngo bakirwe byoroshye, imbere yabo hahagaze abagabo babiri aribo bagezweho kugira ngo bitabweho muri ako kanya.

Umuhanda, ufite inzira zigeze muri enye, zijya mu byerekezo bitandukanye, ijya mu ruhande rw'iburyo, iruhande rw'ibumoso, ahaparitse imodoka y'umukara, urujya mu ruhande rwo hepfo, ahari inzu isize amabara y'umuhodo.

Abacamanza barahira imbere y'idarapo igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'imbere y'umuyobozi ubahagarariye, bakaba barahira bafashe ku idaraporo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Icyapa cyerekana abajenosideri cyangwa se abasize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda, aho kigaragaza abamaze gufatwa, hakaba hari n'abatarafatwa, aho hari igihembo kuwabasha kwerekana bamwe muri abo bantu, kigera kuri miliyoni eshanu z'amadolari.

Umugabo munini wambaye imyenda y'ubushinjacyaha akaba yambaye na rinete ziri mu bwoko bwa rinete z'amaso z'umukara.

Umu mama ureba imbere asa n'urimo yifotoza ifoto ngufi, yambaye ingofero irimo amabara y'umuhondo n'umukara.

Urupapuro ruriho amagambo menshi atandukanye, afite imitwe itandukanye ruvuga ku ku igazeti ya leta.

Abagabo batatu bicaye ku murongo umwe, uwo hagati afite mu mudasobwa imbere ye, iruhande rw'iburyo hari umugabo ubyibushye, w'igikara.

Abagororwa bageze muri batatu begeranye n'imodoka itwara abagenzi bakurikiye uwambaye ikote ry'ubururu.

Abashinzwe umutekano babiri, bambaye imyenda y'umukara n'ingofero z'umukara, bafatiye hagati umugabo buri wese ni iruhande rwe amufashe ku kuboko.

Umudamu wambaye imyenda y'abashinjacyaha iri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku n'ingofero yagenewe abashinjacyaha, hirya ye hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umugabo wifotoza areba imbere yambaye imyenda ivanzemo amabara atandukanye, afite umusatsi mukeya imbere y'urukuta rw'umweru.

Abacungagereza bayoboye imfungwa nyinshi ziri kuva mu modoka zibatwara binjira mu nyubako nini aho bayobowe n'ababarinda.

Igikoresho gikoreshwa mu kurwanya inkongi y'umuriro yaba mu mazu manini azwi nka etage amazu matoya kikaba kigomba kuba ahantu hose hahurira abantu benshi.

Imodoka y'abashinzwe umutekano, ihagaze mu muhanda w'amabuye, iruhande rwayo hagaragara ikamyo igice gitoya k'imbere, iparitse mu muhanda w'ibitaka.

Ushinzwe umutekano, wambaye imyenda y'akazi n'ingofero, ateruye n'umupira awumurika imbere ye, ahateretse ishyiga batekeraho.

Urukuta rwiza ruriho ibikoreshwa mu kurwanya inkongi y'umuriro bitandukanye icy'umutuku, icy'umweru wijimye.

Imodoka y'abashinzwe umutekano, iparitse hanze y'ibiro byo ku cyicaro cya Muhima. Imbere neza y'aho abantu binjirira bajya aho bakorera.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu, ipantaro y'ubururu arimo atanga agaseke k'umugabo wicaye imbere ya mudasobwa ku meza ndende.

Umumama wambaye ikanzu y'ubururu, arimo areba imbere, yegamye ku rukuta rusa umweru, iruhande rwe hari igishushanyo.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru, asa n'uwishimye, ahagaze ateganye n'umugore wambaye ikanzu y'umukara, berekana igishushanyo runaka cy'ibyo bagezeho.

Inama yahuje abantu benshi, abagabo, abagore, ku meza begereyeho buri wese ateretswe agacupa kuzuye amazi yo kunywa meza y'uruganda rwitwa Inyange.

Iyo abayobozi basoje inama bari barimo hari ahantu habugenewe bahurira bakiga ku myanzuro yafashwe ndetse bakanatanga n'umucyo ku bibazo byagiye bigaragazwa ,aho hantu iyo bahageze baraniyakira.

Abaturage benshi bifotoje, bahagaze inyuma y'abayobozi babo, harimo abapolisi ndetse n'abasirikare, aho bafite amaseritifika cyangwa se impapuro za bimwe mu bikorwa bakoze, bakaba bifotoje n'ifoto y'urwibutso y'ibyo bikorwa bakoze.

Abanyarwanda benshi bagiye mu matora y'umuyobozi, bafite amadarapo ndetse bambaye n'imyenda igaragaza ishyaka bashyigikiye, abari imbere bamanitse amaboko.

Umugabo usa n'uri kurahira ku idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda amanitse akaboko areba hasi atuje inyuma ye hari urukuta rusa ubururu.

Igitambaro kiriho umugabo umwe mu nshuro eshatu zitandukanye. Ku mpande ye hariho icyerekezo kigenda gikatagura kizamuka, gifite icyo kigaragaza.

Inzu irimo abantu benshi, imbere yabo hasa nk'abari abayobozi babo bahagaze imbere, harimo abagabo bane n'umugore umwe, harimo amadarapo y'ibihugu bitandukanye.

Umugore wambaye ingofero y'umweru, umanitse ikiganza cy'ibumoso, ahandi ateruye akadarapo gatoya cyane, inyuma ye hagaragara ifoto.

Inama yahuriwemo n'ingeri nyinshi zitandukanye, aho bicaye bari kumva amabwiriza ndetse n'ingingo zimwe na zimwe bari kuganiraho, aho muri iyo nama hitabiriwe n'urubyiruko, abagabo, abagore, aho bose bicaye bari kwandika, bari kumva ndetse n'icyo bababwira muri iyo nama.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, umwe wambaye ikote ry'umukara arimo aseka undi wambaye imyenda.

Umugabo uhagaze hagati y'abagore babiri umwe yambaye imikenyero undi yambaye ikote ry'umukara ikanzu y'umukara afashe terefone igendanwa mu ntoki.

Inama ihuza abantu batandukanye, imbere hicayeho abantu bageze mu icyenda, bari kwakira abandi basigaye babagezaho ibyo.

Umukuru w'igihugu nyakubahwa paul kagame aho afite mikoro mu ntoki ari kuganibiririza abaturage be ,bimwe mu byatumye bitabira ndetse bimwe mu by'ingenzi byabazanye aho ngaho.

Uhagarariye ishyaka rya Girini pati mu nama yabahuje, aho ari imbere y'abo ahagarariye ndetse afite mikoro mu ntoki, aho ari kubaganiriza kuri bimwe mu byabahurije aho ngaho.

Umumama usa nk'uri kuvuga yifashe mu kiganza wambaye imikenyero yegeranye n'umugabo wambaye ikote ry'ubururu amwitegereza cyane kugira ngo amukurikirane.

Umugore wambaye umupira w'umweru, ukenyeye igitenge arimo aseka, hirya ye hari ibiti byinshi biri hejuru ye mu mumasaha ajya kuba ay'umugoroba.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame, aho ari kuganiriza imbaga nyinshi higanjemo abagabo n'abagore, aho bicaye bari kumva ijambo rye aho ari kwereka bamwe muri abo bitabiriye aho bimwe mu byo bari kuganiraho.

Amapoto atandatu y'umweru ariho amadarapo agiye atandukanye, imbere hahagaze abantu benshi, abafotora, abaganira.

Umumama wambaye urugori arimo areba imbere yegeranye n'undi urimo amureba mu bitugu asa nkaho asinziriye yambaye ikanzu y'umweru.

Bwana, Dogita, Utumatwishima Jean, Minisitiri w'urubyiruko, aho ahagaze amanitse ukuboko, arigiye kuvuga ijambo rigeneye.

Imodoka ntoya iri mu ubwoko bw'amavatiri, ikaba iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, akaba ari imodoka yagenewe kwigisha abantu gutwara.

Imodoka itwara imizigo, ifite amabara: umutuku, umweru. Iri mu muhanda, inyuma yayo hari abamotari bahetse abagenzi.

Umuhanda w'umukara aho uganisha ku bitaro byitwa Sehashiyibe, biri mu karere ka Huye, aho hahagaze umuntu uhagarika imodoka kugirango babanze basuzume icyo uje uhakora, hakaba hari imodoka nyinshi ziparitse.

Umumotari uhetse umugenzi urimo yitaba telefone, yegeranye n'imodoka isize amarange y'umuhondo n'umweru, ikoreshwa mu buryo bwo gutwara abagenzi.

Imodoka itwara abagenzi, iri mu muhanda wegereye ahari ibiti byinshi. Iruhande hari ipoto ry'umweru, ndetse no ku mpande zayo hakaba handitseho gucunga konti ni ubuntu.

Abamotari bahagaze ahegereye aho abanyamaguru bambukira, imbere yabo gato mu ruhande rw'ibumoso hahagaze amamodoka ageze muri arindwi atandukanye, iruhande.

Umumotari utwaye umugenzi mu muhanda wa kaburimbo, hirya akikijwe n'ubusitani butoya burimo ibiti, ku ruhande rw'iburyo bwe hari akayira gato k'abanyamaguru.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo, uri kugendwamo na kwasiteri itwaye abagenzi, kwasiteri zino nini ziri mu bwoko bwa Yutongo aho itwaye abagenzi benshi, iteganye n'umuyonzi nawe utwaye umugenzi.

Umunyonzi uhetse umufuka w'umweru uremereye cyane ku buryo atabasha kugenda yicayeho, hirya y'umuhanda we hari ibiti bikorotiriwe ndetse n'ubusitani.

Umunyozi uhetse imifuka igeze muri itanu, agenda n'amaguru, asunika igare, umuhanda wa kaburimbo, impande yawo hari akarigori gatoya gacamo amazi.

Iy'ikamyo, igaragara igice cy'imbere gitoya, itwara ibyateza inkongi y'umuriro, iri mu muhanda wa kaburimbo.

Imodoka yikamyo iri mu muhanda, ifite amabara y'umweru n'umuhondo hirya yayo hagaragara umu motari uhetse umuntu wambaye imyenda y'umukara.

Umunyonzi uhetse umugore n'akana gatoya. Hirya hagaragara undi mumotari ukoresha ikinyabiziga giheka imitwaro.

Imodoka iri mu bwoko bw'amakamyo amwe bakunze kwita hoho ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo, mu nzira nyabagendwa aho yari igeze aho abanyamaguru bambukira.

Burije! Imodoka zacanye amatara, hari abantu barimo batambuka: abatwaye imizigo, abagenda n'amaguru, ndetse n'ibindi binyabiziga.

Umunyeshuri wambaye imyenda ya kaki hasi, hejuru umupira w'ubururu n'umweru, ari aho bategera amamodoka ajya mu zindi ntara z'igihugu cy'u Rwanda.

Imodoka itwara imizigo iri mu bwoko bwa dayihatsu, ikaba yikoreye umuzigo igemuye, ikaba iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, aho igemuye uwo muzigo yikoreye.

Ahaparitswe imodoka nyinshi ziri mu bwoko bwa yutongo, akaba ari imodoka zitwara abagenzi, zikaba ziparitse muri gare, aho abanyamaguru baza gutegera bagiye mu byerekezo bitandukanye.

Imodoka ifite ibara ry'umweru iri mu bwoko bwa dayihatsu, ipakiye, ikaba igemuye amwe mu mavuta akoreshwa, ikaba iri kugendera mu muhanda nyabagendwa aho ibigemuye ahantu hatandukanye.

Umukarani wikoreye umufuka uremereye w'umweru, yambaye imyenda isa ubururu, ku ruhande rwo hepfo hahagaze imodoka y'ikamyo, iburyo bwayo hacaho.

Umuhanda ugaragara mu buryo butambitse, urimo abanyonzi, abamotari, imodoka zigenda ndetse hakurya hagaragara aho bashyiriramo amavuta y'imodoka...

Umuhanda ugaragara mu buryo bucuritse, harimo umuntu utwaye igare wambaye umupira w'umweru, inkweto z'umweru, arimo anyonga. Hirya ye hari agahanda k'igitaka gakorotiriwe n'utwatsi dukeya.

Imodoka nini ndende iri mu bwoko bw'amakamyo, ifite ibara ry'umweru, iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, ikaba itwaye amatungo iyagemuye mu kandi gace, ayo matungo akaba ari inka.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucibwamo na Coaster y'umweru, zitwara abagenzi ibisikanye na moto itwaye umugenzi, ndetse imbere yiyo Coaster hakaba hari indi moto idafite umugenzi.

Igare riri mu bwoko bwa matabaro, rikaba riparitse ku nkombe z'umuhanda, ku muhanda wagenewe abanyamaguru, aho ritari kumwe n'umuyobozi waryo, inyuma ahicara umugenzi rikaba ripakiyeho ibicuruzwa, cyangwa se umuzigo.

Imodoka ifite ibara rya move yo mu bwoko bw'amakamyo ya dayihatso itwaye gazi nyinshi ziri mu bwoko bw'amagare matoya igemuye umuhanda wa kaburimbo.

Ikinyabiziga cya moto cyagenewe gutwara ibintu cyane cyane imizigo iremereye ariko kiri mu bwoko bwa moto, kiri mu muhanda nyabagendwa wa kaburimbo, aho kigemuye ibicuruzwa.

Imodoka ziri kubisikana hagati yazo hari kugenderamo moto ebyiri zitwaye abagenzi, aho muri izo modoka ziri kubisikana hari imodoka ebyiri ziri mu bwoko bw'amavatiri, ivatiri imwe itwara abagenzi ndetse hakurya yayo hakaba hari ivatiri yo mu bwoko bwa karina y'umutuku.

Imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo, ikaba ari mu bwoko bwa Toyota dayihatsu, ikaba itegerejwe gupakirwa, aho iburyo bwayo hari abanyamaguru bari kugenda ndetse n'abahagaze mu muhanda wagenewe abanyamaguru.

Umuhanda ugaragara mu buryo butambitse, harimo imodoka y'ikamyo ifite ikinyuma gisa umweru, kuruhande rwayo hagaragaraho umugabo wikoreye umufuka uremereye cyane.

Imodoka y'ikamyo itwaye amatiyo, umumotari uhetse umugenzi, umunyonzi uhetse amagi wambaye ingofero akurikiwe n'umugabo uri kugenda n'amaguru.

Imodoka ifite amabara umuhondo n'umweru, izwiho gutwara abagenzi nk'akazi ka buri munsi, iparitse mu muhanda w'igitaka hagaragara igice gito cy'inyuma.

Imodoka itagaragara yose ariko ikoreshwa mu buryo bwo kwigisha abashaka kumenya gutwara ibinyabiziga mu muhanda, hicayemo umugabo ufashe ho hejuru asa n'umwarimu.

Imodoka igaragara igice gitoya mu muhanda, n'indi iri inyuma isa umweru igaragara igice gitoya, imbere yazo hari umumotari utwara imizigo.

Ikamyo igendera mu muhanda, ipakiyemo imifuka idatwikiriye neza, yegeranye n'umuhanda w'igitaka, urimo igiti kinini cyane, hari uruhande abagabo baparitse.

Imodoka ya kwasiteri itwara abagenzi, aho iri kugenda mu muhanda nyabagendwa wa kaburimbo, aho ibisikanye na moto ebyiri zitwara abagenzi, moto imwe ikaba itwaye umugenzi, indi ikaba idafite umugenzi.

Imodoka iri mu bwoko bwa toyota zino modoka zikorera ibintu, ikaba iri kuri kaburimbo hafi naho abanyamaguru bagendera aho itegerejwe gupakirwa imizigo.

Umuhanda ugaragaramo abamotari babiri, umwe afite umugenzi undi nta mugenzi afite, mu kayira ko hepfo k'abanyamaguru hagaragara uwikoreye imifuka ibiri ndetse hino hari.

Umunyabugeni umurika imideli ye, yakoze nk'umushushanyi, akora ibintu bitandukanye, akorera ahantu heza, yicaye hanze y'aho ibikorwa bye byamurikiwe.

Ibyatsi byinshi cyane bimeze nk'aho ari ahantu bakinira imikino y'umupira w'amaguru. Hirya hari aho abantu bicara, hariho amabara atandukanye.

Ikibuga cyagenewe gukinirwamo umupira w' amaguru, kikaba kirimo amakona abiri, amakona yifashishwa mu kwitoza.

Icyapa cyerekana abayobozi batwaye ibinyabiziga bari kugendera mu muhanda ko bari gusatira mu muhanda ufunganye. Iki cyapa kikaba kimenyesha abayobozi ko umuhanda bari kwegeramo ufunganye.

Icyapa cya mpande eshatu, amabara umukara, umweru hagaragaramo umuntu arimo yambuka, bikaba bisobanuye aho abanyamaguru bambukira.

Icyapa kigaragaza ko nta magare yemerewe guhagarara ahantu runaka. Kigaragazwa n'amabara atatu: umutuku, umukara, umweru. Gishushanyijemo...

Amarangi y'umuhondo n'umukara, agaragaza ibyerekezo bibiri bireba imbere n'irindi ry'umukara, rikoze, ubuso butambitse.

Hoteri nini iri mu bwoko bwa etaje igeretse gatatu yanditseho giriti apatimenti hoteri ivuze ko ari hoteri nziza irimo amacumbi akodeshwa.

Ikimenyetso cyo ku muhanda kiburira cyangwa se kibuza ibinyabiziga biri mu bwoko bw'amakamyo, kuhanyura bisobanura ko ntibyemewe kuhatambuka, by'ikinyabiziga cy'amakamyo.

Icyapa cyo mu muhanda cya mpande eshatu, zifite amabara, umutuku, umweru, umukara, gifashe ku itiyo.

Icyapa cyo ku muhanda cyerekana ibyerekezo bibiri bitandukanye, aho kuri icyo cyapa hambere kigaragaza ko ukomeje uwo muhanda imbere ugana kukanyaru ndetse mu karere ka Huye ndetse no mu karere ka muhanga, aho uci ibumoso bwaho ugana aho bita mu Ruhango ndetse na kinazi.

Icyapa kigaragara mu buryo butambitse cya mpande eshatu, gifite amabara umutuku, umweru, umukara cyerekana aho abanyamaguru bambukira ifoto ryacyo.

Icyapa kigaragaza ko ahantu hadakwiye guparikwa n'ikinyabiziga icyo ari cyo cyose. Kigaragazwa mu mabara y'umutuku, umukara n'umweru, hagati harimo inyuguti ya P.

Giporoso ni ahantu hahurira abantu benshi, hepfo hamanitse icyapa cy'aho bakatira imfunguzo, barimo bazikora, hirya hari abamotari batwara abagenzi.

Abamotari benshi, bashaka abagenzi, baparitse hanze ya etaje ndende, ifite ibice bigera muri bitatu. Hanze hagaragara...

Inzu isize amarangi menshi y'umuhondo yiganje, ariho abantu baza gukodesha. Yubatse mu buryo bwa etage, ushobora gutura hasi cyangwa ugaturamo hejuru.

Inyubako iri mu bwoko bwa etaje ikorerwamo na Banke ovu Kigali, buranshe iherereye mu Giporoso, imbere yaho hakaba haparitswe moto, zishinzwe gutwara abagenzi, ndetse hakaba hari imbere yaho n'abanyamaguru bari kugenda imbere y'iyo nyubako.

Moto ebyiri moto imwe itwaye umugenzi, indi idafite umugenzi, itwaye umugenzi iri kugenda mu muhanda nyabagendwa, idafite umugenzi ihagaze itegereje umugenzi, hakurya yabo hari abanyamaguru.

Inyubako iri hakurya y'umuhanda, ni inyubako ya hotei yitwa Hilltop hoteli, aho iteganye neza na kaburimbo, aho imbere y'iyi hoteli hari umumotari uri kuganira n'umugenzi ndetse n'abanyamaguru bari imbere y'iyo hotel.

Inzu ifite amabati akuze. Asa ibara ry'umutuku werurutse. Hakurya yayo hari umujyi, utuwe n'abantu benshi, ndetse n'inzu zitandu.

Abanyamaguru bari kugendera mu nzira yagenewe abanyamaguru, iburyo bwabo hari imodoka nyinshi ziri kugendera mu muhanda wa kaburimbo.

Etaje y'ubucuruzi. Aho buri muntu aza agakodesha igice kimwe cy'iwe kugira ngo ashyiremo ubucuruzi bwe, yaba agurisha imyambaro.

Amazu menshi, agaragaza igishushanyo cy'ahantu abantu batura, amazu maremare, amagufi.

Umurima w'ibigori ukorotiriwe n'inkingi y'icyuma isa ibara ry'umutuku, hakurya yayo hatuye amazu meza yubatse mu buryo bwa kijyambere bugezweho.

Umuhanda ugaragara mu buryo bucuritse; imbere hirya hariyo ibiti byinshi, hakaba hari n'ibinyabiziga bike muri uwo muhanda.

Imodoka eshatu zigeze mu isangano ry'imihanda zikatira mu cyerekezo kimwe harimo iy'umukara ibanza n'indi ikurikira nini kuri yo.

Imodoka iri mu bwoko bwa takisi ntoya, zifunze, y'ibara ry'umweru, ikaba iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, aho igana mu cyerekezo igiyemo.

Icyapa cyerekana Akarere ka Nyarugenge, mu mujyi wa Kigali, gihagaze mu busitani butoya bushinzemo igiti kirekire, imbere hariho.

Umuhanda urimo ucamo ikinyabiziga kitagaragara neza kubera urumuri rwinshi, iruhande hari ibiti n'ubwatsi bwiza n'ikiraro hejuru.

Umuhanda ugaragara mu buryo bucuritse, harimo imodoka igeze aho abanyamaguru bambukira, imbere hari umunyamaguru uri mu kayira kabo.

Umuhanda ugaragara ucuritse, harimo abamotari babiri batwaye abagenzi, hashinzemo ipoto rifite amarangi umweru ubururu mu busitani hagati.

Umuhanda uciye hariho uruhande rw'aho imodoka cyangwa ibinyabiziga byose bihagarara, hirya yaho hari amapoto afite amatara.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaza imodoka ndetse na moto zihagaze zitegereje abanyamaguru ko bambuka aho abanyamaguru bambukira habugenewe.

Imodoka iri mu bwoko bwa rava iri kugendera muhanda wa kaburimbo, aho iteganye n'umugenzi uri kugendera mu muhanda wateganyirijwe abanyamaguru.